Abana benshi cyane bagiye batandukanye, aho bicaye ku mukeka, bakaba bari kugenda biga hamwe na mwarimu, ni abana bakiri batoya bari munsi y'imyaka itatu biga mu mashuri y'incuke.

Abana batandukanye biga mu mashuri y'incuke, bambaye impuzankano, bakoze uruziga, harimo n'abarimu babiri babigisha, aho hagati hahagazemo umwe w'umuhungu n'umukobwa bari kurebana.

Abana bakiri batoya b'ibibondo, bicaye ku mukeka, bari gukoma amashyi, barishimye bigaragara ko banezerewe. Inyubako bicayemo yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite inzugi z'icyatsi.

Abanyeshuri benshi batandukanye bicaye ahantu hamwe bakoze uruziga, ni abana bakiri batoya bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, hari umwarimu uhagaze imbere yabo ndetse n'undi wicaye ari kugenda bigisha.

Abana benshi cyane bakiri batoya bambaye impuzu z'impuzankano bakaba bicaye ku mukeka bari kumwe n'umubyeyi ndetse buri mwana afite igikombe kirimo amata ari kunywa, ubu ni uburyo bwo kurwanya imirire mibi n'igwingira.

Umumama wambaye igitenge ndetse n'agapira gasa ubururu, ari kwigisha abana bato b'inshuke uburyo ki bashobora kugirira isuku imyambaro yabo. Nabo bamuteze amatwi baramukurikiye.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi nyarwanda, abarimu basigaye bahuriza hamwe abanyeshuri hanyuma bakabaganiriza. Uyu mwarimu rero ari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke uburyo ki indangagaciro z'umuco nyarwanda zasigasirwa.

Abana bakiri batoya bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bicaye ku dutebe bakikije ameza, babiri muri bo bafite udukarito tw'amabara meza, bigaragara ko turiho inyajwi bagiye kwiga.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe bakaba ari abana biga mu kiburamwaka. Bari kumwe na mwarimu wabo aho ari kugenda abigisha udukino twinshi tugiye dutandukanye, aho bafatanye uruziga mwarimu abahagaze mo hagati.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, biga mu mashuri y'incuke, bakaba bateraniye hamwe bari kumwe n'abarimu babo, aho bari kugenda babigisha babatondesheje uruziga, hakaba harimo n'ibipupe.

Abana batoya b'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bicaye bakikije akameza, bambaye impuzankano, harimo babiri muri bo bafite udukapu ndetse n'undi ufite agasanduku kanditseho inyuguti ya m.

Abana benshi bagiye batandukanye, biga mu mashuri y'incuke, bicaye mu ntebe, aho bafite ibitabo imbere yabo, bakaba bari kugenda basoma mu buryo bw'amatsinda. Biragaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Abana bateraniye hamwe bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, buri wese imbere ye ahafite isorori irimo ibyo kurya; ari kugenda arya, ubu ni uburyo bwiza Leta y'u Rwanda yashyizeho mu rwego rwo kurwanya imirire mibi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako z'ikigo cy'amashuri cya Cyarwa giherereye mu karere ka Huye, Umurenge wa Tumba, Akagari ka Cyarwa.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bicaye hanze y'amashuri yabo, bambaye impuzu mpuzankano, bakaba bugamye akazuba kugira ngo katabageraho kubera ko ari mu gihe k'impeshyi.

Icyumba cy'ishuri giteraniyemo abanyeshuri benshi, bambaye impuzankano. Imbere ku kibaho hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Hakaba kandi harimo n'akagare kagenderamo abafite ubumuga.

Abanyeshuri bari mu ishuri, higanjemo abahungu n'abakobwa. Bicaye ku ntebe zabugenewe ariko bari kubyigana ari benshi. Bagenzi babo, bari kubitegereza bibaza ngo murapfa iki.

Mu cyumba cy'ishuri haba harimo ibitabo biri mu isomero, aho abanyeshuri baza bakicara bagatira ibi bitabo bakabisoma kugira ngo barebe ko bakwagura ubumenyi maze bazabashe gutsinda neza.

Abanyeshuri bari mu ishuri ndetse hakaba harimo na mwarimu wabo, aho ari kugenda abigisha mudasobwa kuko buri munyeshuri imbere yiwe, afite mudasobwa ari kugenda ayikoresha, mwarimu nawe aberekera.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu ishuri aho bari kwiga, ni abana bato biga mu mashuri y'inshsuke, imbere yabo hari umwarimu uri kugenda bigisha uburyo ki bagomba kwitwara kugira ngo babashe kumva isomo rye.

Buri kigo cy'amashuri kiba kigomba kugira isomero, aho abanyeshuri bajya gushaka ibitabo bagasoma maze bakiyungura ubumenyi bushya, kugira ngo babashe gutsinda neza amasomo yabo.

Intebe yo mu bwoko bwa shezi irambitse ahantu iruhande rw'akabati kamanitseho amatangazo menshi, yanditse ku bipapuro biri mu mabara y'umweru ndetse n'ibiri mu mabara y'umutuku.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, ariko zisakaje amabati ashaje, aho hari abanyeshuri bari kugenda bakinira mu mbuga yaho, bigaragara ko ari mu masaha y'akaruhuko.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bari mu gihe cy'akaruhuko, bakaba bari gukina banatembera hanze y'ishuri kugira ngo barebe ko baruhuka maze barusheho kumererwa neza, banaruhure mu bwonko.

Umwarimu ufashe agakarito karimo ingwa mu ntoki ze, ari kureba umubare w'ingwa zirimo kugira ngo abe yazifashisha yandika ku kibaho, ziri mu mabara atandukanye umuhondo, umweru ndetse n'iroza.

Inyubako zigiye zitandukanye zubakishije amatafari ahiye ndetse imwe ikaba ikinguye umuryango, bigaragara ko ari ubwiherero bw'amashuri ku kigo cy'amashuri runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite n'amarange y'umweru ku nzugi ndetse n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara.

Abana bagera muri babiri, bicaye hanze y'ishuri, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, aho bari kuyifungura kugira ngo babashe kuyikoresha, maze izabateze imbere bajyane n'isi igezweho.

Ikigo cy'ishuri gifite amashuri asa n'ashaje kuko asakaje amategura, hakaba hari abanyeshuri babiri b'abakobwa, bari kugenda bamanuka berekeza ku mashuri yabo ariko bari kugenda banyura mu busitani.

Gahunda yashyizweho na leta y'u Rwanda ko buri kigo cy'amashuri kiba kigomba kugira isomero ndetse n'umuntu urikoramo, hagahora hakinguye buri gihe kugira ngo abanyeshuri bajye baza gushaka imfashanyigisho.

Ikigo cy'amashuri gifite amashuri menshi cyane kandi yubatse neza mu buryo bwa kijyambere, gifite ikibuga giteyemo ubusitani bwiza cyane, hakaba harimo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bari gutembereramo.

Ni ku kigo cy'amashuri, aho hari amashuri yubatse neza mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, hari kandi n'andi asakakaje amategura, hari abana bari mu kibuga aho bari gukina bigaragara ko ari amasaha y'akaruhuko.

Ni mu cyumba cy'ishuri aho harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye, zifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga bameze neza kandi batekanye kugira ngo bazabashe kuvamo abantu bakomeye.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bagiye batandukanye, bari kugenda bamwe bajya ku ishuri abandi bavayo, iki kigo cy'amashuri ni cyiza cyane, gifite igisharagati cyanditseho amagambo avuga ngo: Muhawe ikaze.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amategura ndetse kandi ikaba iteye karabasaza ariko ikaba ishaje, imbuga yayo irasa nabi cyane bigaragara ko ari mu giturage.

Igipangu cyiza cyane giteye amarangi y'umweru n'umukara, gishushanyijeho umwarimu uhagaze ndetse n'abanyeshuri bicaye, mwarimu akaba ari kwandika ku kibaho yatunzeho inkoni, ari kubigisha isomo ry'Icyongereza.

Ku ishuri aho abanyeshuri bigira ndetse naho baba, haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho bifashisha mu myigire yabo kugira ngo babashe gutsinda. Haba harimo amakaye, amakaramu, ibitabo ndetse n'ibindi.

Ibase y'ubururu iteretsemo agapaniye k'icyatsi, ibi rero akaba ari ibikoresho umuhinzi yifashisha igihe ari mu kazi ke k'ubuhinzi, iyo ari gusarura ibirayi abisarurira mu ibase hanyuma n'ibindi akabishyira mu gapaniye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zisakaje amabati, hari kandi n'aho imodoka ziparika, hakaba hari imbuga nziza cyane ngari iriho amapave hasi.

Ku ishuri haba hari udukoresho tubamo ibikoresho byose nkenerwa, abanyeshuri bifashisha iyo bari kwiga. Haba harimo amakaramu ndetse n'amakaramu y'ibiti bifashisha bari gushushanya.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, bari kugenda mu muhanda aho bavuye ku ishuri, inyuma yabo hari ibiti birebire cyane by'inganzamarumbo.

Abana batoya bicaye abandi bahagaze, batonze uruziga, bakaba bafite ibitabo bari gusoma, hagati yabo hahagazemo umudamu bigaragara ko ari umwarimu wabo, ari kubereka uburyo ki bagomba kubikora.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga bifashishije mudasobwa, ubu ni uburyo bwiza bwo kwigisha abanyeshuri ikoranabuhanga kugira ngo bazabashe kwisanisha n'iy' Isi ya none kuko ishingiye ku ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati y'ubururu, Zikingishije inzugi z'icyatsi bigaragara ko ari ku kigo cy'amashuri cya Cyarwa.

Igikuta giteye amarange y'umweru aho kibaditseho urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'urundi ruri mu ibara ry'umweru, bikaba bibadikishijeho papiers collé isa umukara.

Inyubako nziza cyane irimo isomero, aho haba harimo ibitabo by'amoko agiye atandukanye abanyeshuri bifashisha bari gusoma ndetse bari no gukora ubushakashatsi kugira ngo ubumenyi bwabo bubashe kwiyongera.

Ikigo cy'amashuri kikaba gifite inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse hari n'ikigega. Hepfo hari ubwiherero bwubatse, bwubakishije amatafari ahiye ndetse bukaba buteye irangi ry'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zubabakishije amatafari ahiye, biragaragara ko ari mu kibuga ndetse ari no mu kigo cy'ishuri kuko hari ikibuga cya basketiboro.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro ya kupe, aho bari ku kigega bari kuvoma amazi yo kunywa, bafunguye akazu, umwe ari kuvoma undi amufatiye urugi.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ndetse kikaba kiri ku nyubako nziza igezweho, kikaba kimanitseho icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite amadirishya akingishije ibyuma ndetse hariho n'ibirahuri bitatseho ibyapa biri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Abana batandukanye bahagaze bakoze uruziga, bari kumwe n'umugore wambaye ipantaro, ufite n'imisatsi ya menshi, bigaragara ko ari umwarimu wabo, bakaba bari gukina ndetse bishimye.

Ishuri ririmo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo uburezi bugende neza, harimo intebe abanyeshuri bicaraho, harimo ikirahure, ndetse harimo n'intebe mwarimu yicaraho ari kwigisha.

Icyapa kimanitse ahantu cyanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishije ikaramu izwi nka marikere ari mu mabara y'ubururu, akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu cyuma kandi bisize amarange y'umukara, izi rero akaba ari inyubako z'ishuri.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bicaye ndetse banahagaze ahantu, aho imbere yabo hari ikibuga kiri mu mabara y'ubururu gishushanyijemo uruziga.

Imodoka iri kugendara mu muhanda wa kaburimbo y'ivatiri, ikaba igiye guhura n'itagisi, aho zikomeje kugenda ziturije. Umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse hari n'abantu benshi cyane.

Umwarimu uhagaze ari kwandika ku kibaho, akaba yambaye itaburiya y'umweru, aho ari kwigisha abanyeshuri uburyo ki bagomba kujya basubiza kugira ngo bazabashe gutsinda.

Ikigo cy'amashuri gifite amashuri yubatse neza mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hari irembo riri mu mabara y'umweru rikoze uruziga, ryanditseho ko ari ikigo cy'amashuri cya Kigeme.

Mu rwego rwo gutanga uburezi bufite ireme, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kuzana mudasobwa maze umunyeshuri akazajya yiga akoresheje mudasobwa kugira ngo abashe kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bakaba bicaye mu rusengero aho bagiye gusenga, imbere kuri aritari hari umunyeshuri umwe w'umuhungu uhagaze ari kugira icyo ababwira, na bo bamuteze amatwi.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho harimo intebe nziza cyane zabugenewe abanyeshuri bicaraho mu gihe baba bari kwiga, hakaba hari n'ikibaho cyiza cyane gisa icyatsi abarimu bandikaho igihe bari kwigisha.

Igipangu cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho, cyubakishije amatafari ahiye ndetse kikaba gifite na giriyaje z'ibyuma ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ubusitani buhegereye.

Abanyeshuri benshi cyane, bateraniye hamwe mu cyumba cy'imyidagaduro, aho bakurikiye igikorwa runaka kiri kuba, bose bakaba bambaye impuzankano. Bari kureba imbere, umuntu uri kubagezaho icyo gikorwa.

Abakobwa babiri bari kugenda, harimo uwambaye imyambaro y'impuzankano n'undi wambaye umupira, bari kugenda mu kigo cy'amashuri ndetse umuhanda bari ku kugendaderamo ushashemo amapave.

Iyo igihembwe kirangiye, abanyeshuri bose baheka utwabo bagataha berekeza iwabo mu rugo. Aha rero ni ku marembo y'ikigo, aho abanyeshuri basohotse bahetse ibikapu, bafite n'amatera, bari gutaha berekeza iwabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibirahuri byiza bibonerana ndetse kandi isakaje amabati y'ubururu, iteye n'irangi rijya gusa umuhondo, ifite ubusitani bwiza bigaragara ko ari ishuri.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye ndetse bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bafite ameza ari imbere yabo ndetse n'abayobozi imbere hahagaze umukobwa ufite indangururamajwi, bigaragara ko hari icyo ari kubabwira.

Ni mu cyumba cy'ishuri, aho harimo abanyeshuri bicaye, bambaye impuzankano z'amabara agiye atandukanye, aho buri wese yicaye ku ntebe ye, hakaba hari na mwarimu ari kugenda abaha impapuro. Ku muryango, hari undi muntu uri gufotora.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari nyubako zo ku rwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Kizito Gikongoro, hari abanyeshuri bahagaze hanze bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Ni ku ishuri aho abanyeshuri bakunze kurara abanyeshuri biga bacumbikirwa. Haba harimo ibikoresho byose nkenerwa abanyeshuri bifashisha kugira ngo imyigire yabo igende neza.

Ni ku ishuri aho hari ikibaho cy'umukara, ndetse kuri icyo kibaho hari umukobwa ufite ingwa uri kugenda yandikaho, afite ibyo ari gusoma ku rupapuro bigaragara ko ari gusubiza ikibazo.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bicaye bakurikiye umuntu uri kubagezaho inama uhagaze imbere yabo nubwo atagaragara.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicanyi bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, harimo n'umuntu umwe wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, bagenzi be bakaba bamwitayeho bamuhumuriza bamwereka ko abafite ubumuga na bo ari abantu.

Umwana w'umunyeshuri w'umuhungu, akaba yambaye imyenda y'impuzankano, ahagaze imbere kuri ruhangwamboni, afite indangururamajwi afite icyo ari kuvuga. Inyuma hari abandi banyeshuri n'abayobozi bicaye bamuteze amatwi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho hari kunyuramo umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano z'ishuri, akaba agiye ku ishuri, impande ye hari ubusitani bwiza cyane bukikije uwo muhanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi n'ubururu, aho inyuma hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, kikaba cyanditseho amagambo agira ati: "Muhawe ikaze ku kigo cyacu cy'amashuri."

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, umukino w'amaboko uzwi nka Volley, ukaba uhuza abantu benshi cyane bari gukina, kandi uko bawukina ni nako bagenda barushaho gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ahantu harimo amashitingi ndetse hagati yabo hari imbuga ishashemo amapave, ihagazemo umuntu uri kubafotora.

Abana b'abakobwa babiri bambaye impuzu z'impuzankano, bakaba bambaye n'udukweto dusa, bari kugenda mu kayira kahariwe abanyamaguru kari iburyo bw'umuhanda, bigaragara ko bagiye ku ishuri.

Abantu bambaye imyambaro y'impuzankano iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, biragaragara ko ari amakipe abiri agiye gukina, umukino w'amaboko uzwi nka Volly, bakaba bari gusuhuzanya kugira ngo batangire bakine.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zo mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bicaye bakurikiye umuntu uri kubagezaho ikiganiro, wambaye akajiri k'umukara ufite agatambaro mu ntoki.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, bahagaze mu ishuri, aho hari umwe wambaye isaha mu kuboko kw'iburyo uhetse agakapu, bigaragara ko afite ijambo hari icyo ari kubwira bagenzi be.

Abanyeshuri bagiye batandukanye, bambaye impuzankano z'ishuri, aho bambaye amashati y'umweru ndetse amajipo n'amapantaro bikaba ari ibya kaki, bahagaze munsi y'umusaraba uriho ishusho ya Yezu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati y'ubururu ndetse n'inzugi z'ubururu, izi akaba ari inyubako z'ikigo cy'amashuri, zikaba ziherereye mu karere ka Huye, Umurenge wa Mukura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'ishuri, irimo ibikoresho byose nkenerwa, byakwifashishwa kugira ngo uburezi bw'u Rwanda butere imbere, harimo intebe, ikibaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bakaba bicaye barebye imbere. Imbere yabo kandi hicaye abayobozi babo, kuko ku meza imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu bateraniye hamwe bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru bigaragara ko ari abarimu, bakaba bari ku kigo cy'amashuri gifite ubusitani bwiza ndetse n'amashuri yubatswe mu buryo bugezweho.

Abana b'abanyeshuri bari kugenda mu muhanda, bigaragara ko bagiye ku ishuri, hakaba harimo abakobwa biganje bahetse ibikapu bigaragara ko bazindutse bagiye ku ishuri. Iruhande rwabo hari ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho hari kugendamo abantu bagiye batandukanye, ndetse hakaba hari n'imodoka iri kugendamo y'ikamyo ihetse imizigo.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, aho bari kureba ku kibaho mugenzi wabo ari gusubiza maze na bo bakagenda bandika mu makayi yabo bafite.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati y'ubururu. Zifite amadirishya asa icyatsi ndetse hari n'ikibuga kigari abanyeshuri bakiniramo. Izi ni inyubako z'ikigo cy'amashuri.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'icyatsi avuga ko ari ku kigo cy'Abadive cya Gahogo, kikaba gifite amashami agiye atandukanye.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye aho bicaye ku ntebe z'amashezi, bakaba bakurikiye abantu babiri bari kubagezaho imbwirwaruhame ari abagabo ndetse n'umugore umwe bahagaze munsi y'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'umunyeshuri utwaye igare. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, kandi hakaba harimo n'imirongo igabanya umuhanda mo kabiri, iri mu mabara y'umweru.

Abana benshi bateraniye hamwe bigaragara ko ari abanyeshuri, aho bari kumwe n'umwarimu wabo ari kubatoza indangagaciro na kirazira by'umuco Nyarwanda, bagomba gukurikiza kugira ngo bamererwe neza.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda Leta yashyizeho gahunda ko abanyeshuri bagomba kujya bigira kuri mudasobwa kugira ngo babashe kumenya n'ikoranabuhanga hanyuma baguke mu bwenge.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako ifite ibikuta bite amarange y'umweru n'ubururu, ikaba yanditseho ku marembo ko ari inyubako yitiriwe Mutagatifu Joseph.

Inyubako nziza cyane zigezweho zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, zisakaje amabati y'ubururu, hari amadarajya yurira ahagana ndetse hari n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Icyapa gikozwe mu cyuma giteye amarange y'umweru, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umukara, kikaba cyanditsweho ko ari ku kigo cya Butare.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho hanze yayo hari abana b'abanyeshuri bari gukina, hakurya hari umusozi muremure cyane uteyeho amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti.

Ni ku kigo cy'amashuri giherereye mu karere ka Huye, kizwi nko ku ndatwa n'inkesha, aho imbere yacyo hanyura umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hari kunyuramo abanyeshuri benshi bari kujya ku ishuri.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bateraniye hamwe, imbere yabo hahagaze mwarimu wabo, ari kugenda abigisha ndetse anabaha ingero z'ukuntu bagomba gukora neza, bakabasha gutsinda ikizami gisoza igihembwe.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse zikaba zifite n'umuryango mwiza cyane ufite inzugi z'ubururu ukaba ufunguye, hanze hahagaze umuntu ushinzwe umutekano ndetse mo imbere harimo imodoka.

Ku kigo cy'amashuri hakunze kubera imikino myinshi y'amaboko; aha rero hari abana bambaye imyambaro y'impuzankano bari gukina umukino uzwi nka vore, aho bazamuye umupira mu kirere bose bawutegereje ngo bawukubite ibiro.

Abanyeshuri benshi cyane batandukanye, aho bicaye ku meza bari kumwe na mwarimu wabo akaba afite mudasobwa ndetse umwe munyeshuri afite telefoni ari kurebamo abandi bakurikiye mwarimu.

Abantu bicaye hamwe, bigaragara ko ari abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, aho bari kurebera mu cyuma cy'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kureba indwara cyangwa uburemere bwa mikorobe.

Inzu nziza cyane ifite akabati keza, kakaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu burezi. Nubwo gafunguye ariko inzugi zako zirasa umutuku kandi ni nziza cyane.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, handitseho ngo ni Kaminuza y'Abakatolike y'u Rwanda iherereye mu Karere ka Huye mu Murenge wa Taba.

Ishuri ryiza cyane, ryubatswe mu buryo bugezweho, ririmo intebe nziza cyane, bigaragara ko ari muri kaminuza y'u rwanda, ishami rya Huye. Burije ndetse amatara yo mu ishuri arimo kwaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse igiye inubakishije ibyuma biri mu mabara y'umukara. Ikingishije urugi rukozwe mu byuma.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije ibyuma ndetse iteye n'amarangi y'umweru n'umukara, hari n'ubusitani bwiza cyane, akaba ari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Ni mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho hari icyumba gicururizwamo imiti y'amatungo igiye itandukanye, haba hari uducupa dufite imipfundikizo y'ubururu n'umutuku dusa umweru.

Ubusitani bwiza cyane bukikijwe n'indabyo nziza cyane ariko kandi burimo n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kigaragaza ko ari ho Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye iherereye.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abanyeshuri aho bari kugenda bitegereza uko mwarimu ari kubigisha imikoreshereze ya mudasobwa kugira ngo nabo babashe kuzajya bazikoresha.

Abantu b'abanyeshuri bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye, imbere yabo hakaba hari umwarimu uhahagaze wambaye ishati ijya gusa icyatsi yatebeje ari kugenda abaha amabwiriza y'ukuntu bagomba kwiga.

Muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, harimo isomero ryiza cyane ririmo ibitabo bigiye bitandukanye, byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe gukora ubushakashatsi ndetse kandi biyungure ubumenyi.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye by'umwihariko abiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bakaba bicaye bari gusubira mu masomo yabo bifashishije mudasobwa, harimo umwe wambaye amadarubindi.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bicaye mu ishuri, aho buri wese imbere ye afite mudasobwa bakaba bari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, harimo abazungu ndetse n'abirabura, harimo ndetse n'abambaye amadarubindi.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba cy'ishuri, bicaye ku ntebe nziza cyane zigezweho, aho bari gukurikirana amasomo, imbere yabo hari mwarimu wambaye amakositimu ari kugenda abigisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari ishuri, mo imbere hakaba harimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa ku ishuri kugira ngo abanyeshuri babashe kuba bakwiga neza ndetse bagatsinda.

Umuhanda wa kaburimbo aho uri kugendamo abantu bagera muri babiri. Uyu muhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru mu mpande zombi ndetse hakaba hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Muri Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Huye, harimo inzu ifite icyumba cyabugenewe gikorerwamo imikino igiye itandukanye y'amaboko. Hakaba harimo abantu bahahagaze, bari kureba imikino iri kuhabera.

Mu macumbi abanyeshuri bicumbikira batahamo by'umwihariko abiga muri Kaminuza y'u Rwanda baba barimo, haba hari ibikoresho byose nkenerwa abanyeshuri bifashisha kugira ngo imyigire igende neza.

Intebe nziza cyane zo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho ziri mu ishuri ryiza ryubatswe mu buryo bugezweho, rishashemo amakaro ndetse ibikuta bikaba biteye irangi ry'umweru.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo amatara ari kwaka ndetse ikaba irimo n'ibikoresho byose nkenerwa, byifashishwa mu bijyanye n'amasomo ku bantu biga ibijyanye n'ubuvuzi.

Mudasobwa ifunguye iri kwerekana porogarame zigiye zirimo, imbere hakaba hari porojegiteri ndetse n'igikuta giteye amarangi y'umweru, ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo nyinshi zigiye zitandukanye, buherereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahazwi nko mu karere ka Huye Intara y'Amajyepfo ku gicumbi cy'ubumenyi.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye biga ibijyanye n'ubuvuzi, bakaba bari kureba mu byuma by'ikoranabuhanga bizwi mu Kinyarwanda nka mikorosikopi, aho bari kurebamo ngo barebe uko bikoreshwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ndetse hakaba harimo intebe za kijyambere. Biragaragara ko ari muri sale y'ibijyanye n'ubuvuzi iherereye mu karere ka Huye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari amagorofa, zikikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, aho hari akayira kayaganaho kerekana ko gashashemo amapave.

Hariho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, ibyo bihingwa rero ni ingirakamaro cyane kuko haba harimo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu baherereye aho hantu, ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Abanyeshuri bicaye aho bari mu ishuri barebye ku kibaho imbere kuko bari kwiga mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho baba bari kureba amashusho, bakoresheje igikoresho kizwi nka porojegiteri.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe ziri gusa ubururu barebye imbere kandi bakurikiye. Imbere hicaye umugabo ndetse n'umugore, aho ari bo bari kubakoresha iyo nama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho isakaje amabati atukura, ikaba ifite urupangu rwubakishije ibyuma ndetse n'amarembo yubakishije inkingi z'umweru. Hari gusohokamo abakobwa babiri kandi iruhande rwabo hari ubusitani bwiza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bicaye bari mu ishuri, biragaragara ko ari abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Huye, aho mwarimu ahagaze imbere ari kubigisha mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho hari ibyapa bigiye bitandukanye byerekana ko aha hantu bitemewe kuhaparika, hari inyubako nziza cyane zubatse neza ndetse n'akayira gashashemo amapave.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho hari urugi rw'icyuma rubaditseho icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kiriho ibirango bya Kaminuza y'u Rwanda, aho hariho n'icyapa kivuga ko bibujijwe kuhanywera itabi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Zikaba ari inyubako ziherereye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, ahazwi nk'ahitwa i Mamba.

Abantu bagera muri batanu, harimo bane b'igitsina gore, ndetse n'undi umwe w'igitsina gabo. Bafite mudasobwa imbere yabo, aho bari kugenda berekana ko uburezi bw'u Rwanda bwateye imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zisakaje amabati atukura, ndetse zifite ibirahuri byiza bitabonerana, akaba ari inyubako ya kaminuza ya Piass iherereye mu karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, ndetse iteye n'irangi ry'umweru. Harimo purafo nziza cyane z'umweru, harimo intebe zigiye zitandukanye ndetse n'ibibaho bibiri.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho kandi zisa neza cyane, ziherereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Imbuga yaho ishashemo amapave ndetse hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi bagiye batandukanye bambaye amataburiya y'umweru ndetse na ga z'ubururu, bakaba bari mu cyumba k'inzu bigaragara ko ari abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bari kureba uburyo ki biba bimeze.

Inyubako nziza cyane ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho ifite icyapa kiyiranga cyanditseho ngo Kaminuza y'u Rwanda.

Ni mu ishuri aho harimo ibikoresho byose nkenerwa abarimu n'abanyeshuri bifashisha igihe baba bari kwiga, harimo intebe n'ameza ndetse n'ibikoresho bitandukanye bifashisha.

Inyubako nziza cyane y'isomero aho harimo ibitabo bimanitse mu tubati ndetse n'abanyeshuri bicayemo bari kwiga. Aha akaba ari muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako iherereye muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye. Iyi kaminuza akaba ari iya mbere mu Rwanda mu gutanga uburezi bufite ireme.

Ku meza iteretseho ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, byifashishwa mu burezi, aho hariho ibitabo ndetse n'amakaye, ku ruhande rw'ibumoso hateretse mudasobwa irimo kwaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'isomero ryo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri bajya, hanyuma bagatira ibitabo bagasoma kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi.

Icyapa kigaragaza kaminuza y'u Rwanda y'Abakatolike, iherereye mu karere ka huye mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari Kaminuza y'Ishami rya Taba icyapa kirasa umweru, amagambo yandikishije inyuguti zisa ubururu.

Muri Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Huye mu ishyamba rihari, hagiye harimo ibyapa byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru n'ubururu, aho biba byerekana aho umuntu ari kugana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira gashashemo amapave abanyeshuri banyuramo. Aha ni muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zikaba ari inyubako zo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, ahazwi nk'i Mamba, zifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'inzira zishashemo amapave.

Muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri baba mu macumbi, haba harimo ibikoresho byose nkenerwa, bifashisha kugira ngo babashe gusubiramo amasomo yabo bitabasabye kuva aho bari.

Umudugudu urimo amazu menshi cyane kandi meza, uwo mudugudu ukaba uherereye mu karere ka Huye, hari ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi.

Abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere hari ibyapa byanditseho kaminuza y'u Rwanda yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Buri kigo cy'amashuri, gikwiriye kuba gifite isomero, aho abanyeshuri bajya, hanyuma bagasanga ibitabo, bagasoma, mu rwego rwo kwihugura ndetse no kwiyungura ubumenyi.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye, cyane cyane abiga ibijyanye n'ubuvuzi, baba bari kurebera mu byuma kabuhariwe bizwi nka mikorosicopi bari kureba uburyo indwara bazipima.

Inyubako nziza cyane, zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zubakishije amatafari ahiye, zifite ibirahure bitabonerana, zifite ubusitani bwiza cyane, zikaba zibereye ijisho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, akaba ari inyubako yo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'imbuga yayo ishashemo amapave.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amatafari ahiye, zikaba ziteye irange ry'umweru. Zikaba zifite utuyira tuziganaho dushashemo amapave. Bigaragara ko ari muri kaminuza y'u Rwanda.

Ishuri ririmo intebe nyinshi cyane zigezweho ndetse hicayemo n'abanyeshuri babiri. Ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa, abanyeshuri bifashisha bari kwiga.

Umugabo wambaye umupira utukura ndetse akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, ari kumwe n'umukobwa, aho bari gutunga urutoki imashini nshya zabugenewe bifashisha bari kwiga ibijyanye n'ubuvuzi.